Icyumba kinini kirimo urumuri gisizwe irangi ndetse gifite idirishya rinini ririho irido rinini ry'umukara. Kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Imbangukiragutabara itwarwamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga. Uyu mugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'umukara arimo arakuramo ibikoresho bitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urimuri ndetse kirimo amakaro kirimo umuganga w'umusore wambaye impuzankano y'ababaganga igizwe n'ibara ry'icyatsi, ari gutanga serivisi ku mugabo wavunitse wambaye ipantaro irimo ibara ry'umukara, hirya ye hari imbago zifashishwa mu kugenderwaho n'abamugaye.

Abaganga ndetse n'abakozi b'ibitaro bafite ikibandelore kinini, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, ndetse ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisize irangi ry'umweru, ndetse kirimo palafo n'itara. Kirimo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'udupfukamunwa. Umwe muri bo afite agakoresho gakozwe mu cyuma kariho imiti itandukanye, higanjemo iri mu dukarito ndetse no mu ducupa.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye, harimo ibitanda umurwayi aryamaho, iki gitanda kiri mobile urabona ko gishobora gutembera, hariho n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umugabo wambaye ikote ririho utugarurarumuri riri mu ibara ry'icyatsi, yambaye ingofero y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara ahagaze imbere y'imodoka biragaragara ko arimo arayibaza ibyangombwa.

Umugabo bigaragara ko afite igipfuko ku mutwe yakomereke, ahise akurikirana iby'ubuzima bwe maze ajya kwa muganga baramuvura, urabona ko afite ikizere cyo gukira.

Icyumba gitangiwamo serivisi z'ubuvuzi gisigazwe irangi ry'umweru ndetse kirimo idirishya ririmo ikirahuri kinini, kirimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura ndetse kirimo umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'abaganga, igizwe n'imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse yambaye amaherena ku gutwi kandi yambaye ingofero mu mutwe.

Umusore wambaye agapira k'umutuku ateruwe n'abagabo batatu, babiri bambaye amajiri yanditseho Croix- Rouge bigaragara ko batabara imbabare, barimo baramwerekeza mu modoka.

Ikibuga kirimo ibyatsi, kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abicaye ndetse harimo ababyeyi benshi bafite amahene ari mu mabara atandukanye higanjemo umukara ndetse n'ikijuju, inyuma yabo hari ibiti byinshi ndetse n'akazu gato gafite inzugi zikozwe mu mbaho.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi butandukanye, aho kigurukirizwaho utudege, tutagira abapilote.

Icyumba kinini gitanrwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abana batandukanye higanjemo abambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, kirimo umugore wambaye igitambaro mu mutwe kirimo ibara ry'umukara, ari gupima umuvuduko w'amaraso akoresheje igikoresho k'ikoranabuhanga.

Imeza ikozwe mu mbaho inyuma yayo hari indabo zikaswe neza zanitseho imyenda ndetse inyuma yabyo hari imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo aba DASSO bambaye impuzankano iririmo ibara ry'icyatsi ndetse hirya cyane hari ibinyabiziga biri kugenda, kimwe muri byo kiri mu ibara ry'umweru ndetse kiriho ikirango cy'umusaraba kiri mu ibara ry'umutuku.

Indege izwi ku izina rya drone, itagira abapilote. Iri mu kirere, itwaye ibintu runaka ibivana ahantu hamwe, ibijyana ahandi.

Abantu bahuriye hamwe barimo barakora umuganda wo kubaka inzu, bamwe bari kubaka, abandi bakata ibyondo ndetse hari n'abana baje kureba uko bikorwa.

Icyumba kirimo abagore ndetse n'abagabo barimo barabaha serivisi zijyanye n'ubuzima, harimo n'umuzungu wicaye nawe utegereje.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu hamwe barimo baratanga serivisi zijyanye n'ubuzima, barimo baratanga ibinini harimo ababitanga ndetse n'abaje kubifata.

Ababyeyi bavuye imihanda itandukanye, bicaye imbere y'imeza iriho igitambaro k'icyatsi barimo baraganirizwa kubirebana na gahunda z'ubuzima.

Umuganga cyangwa se umukozi wo kwa muganga, yambaye itaburiya y'umweru, yicaye imbere ya mudasobwa, arimo arakora raporo cyangwa se asuzuma ibimenyetso bigiye bitandukanye.

Inama yhuje abantu bakuru nta rubyiruko rurimo bose barakuze, gusa aba b'imbere urabona ko babambiye.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe yo kubakingira mu gihe k'ibibazo cyane cyane nka Corona, ubushita, Ebola n'ibindi, bambaye iyi myenda kugira ngo birinde.

Icyumba gitangirwagirwamo serivisi z'ubuvuzi, gishyizwe amarangi atandukanye, yiganjemo iy'ubururu, kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibitanda biryamamyeho abarwayi, kimwe muri byo kiriho umugore ukenye igitenge wicaye, imbere ye hari igitanda kiryamyeho umurwayi ukenyeye igitenge.

Inzu nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, isizwe irangi ry'umweru ndetse irimo ibikoresho bitandukanye, irimo ibitanda biryamyeho abarwayi, hejuru yabyo hari supanete ziri mu ibara ry'umweru ndetse na vandarateri yifashishwa mu gutanga umuyaga.

abaje kwa muganga gushaka serivise zijyanye n'ubuvuzi, harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye udupfukamunwa, ibi bituma hirindwa kwandura indwara zituruka ku buhumekero.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse gisizwe irange ry'umuhondo, kirimo abantu batandukanye higanjemo abaganga bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya ari mu ibara ry'umweru, imbere hari umugabo wicaye ku ntebe ndetse imbere ye hari imeza iriho mudasobwa.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kiririmo urumuri ndetse gisi irangi ry'umuhondo, kirimo agatanda gakozwe mu cyuma, kariho ibikoresho bitandukanye higanjemo ibyifashishwa mu kuvura, kiriho agacupa ka sanitayiza gafite umufuniko uririmo ibara ry'ubururu.

Intoki zambaye uturindantoki tw'umweru, zirimo zirafata ibipimo by'amaraso ku rundi rutoki rumwe rw'umurwayi, aha baba basuzuma indwara zitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi gisizwe irange ry'umuhondo kirimo sima ndetse cyicewemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore, imbere yabo hari umugore w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya riri mu ibara ry'umweru.

Abarezi bambaye amataburiya y'imyeru, barimo barakina n'abana bakiri bato, ni ku kigo cy'amashuri cyangwa se kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibitanda bifite matora ziri mu ibara ry'umukara ndetse hejuru yabyo hari supanete ziri mu ibara ry'umweru. Kimwe muri byo kiriho umugore witeze igitenge mu mutwe ndetse imbere ye hari ibikapu bitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo myinshi irimo ibara ry'umweru, hirya yawo hari imbuga nini yubakishaga amapave, iparitsemo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru, kifashishwa mu gutwara abarwayi ndetse inyuma yacyo hari inyubako z'ibitaro zubakishijwe amatafari ahiye.

Umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare, yambaye agapima uko umutima utera, arimo aragashyira ku mukecuru, ararwaye kugira ngo yumve uko ubuzima bwe buhagaze.

Impeshakurama z'Ibitaro bya Nyagatare, aha iyo uhageze uba ugeze ku bitaro, aho uhabwa serivisi zitandukanye zirimo ubuvuzi, aha ni mu Karere ka Nyagatare.

Ihuriro ry'abaganga baturutse hirya no hino ku isi, ririmo Abazungu ndetse n'Abirabura. Bamwe bambaye amakote abandi ntayo bambaye.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara n'imiti bitandukanye, gisizwe irangi ry'umweru ndetse kirimo urumuri, kirimo abaganga batandukanye biganjemo abagabo umwe muri bo ni umugore afite ibisuko by'umukara yambaye itaburiya riri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari ibikoresho bitandukanye.

Ibiganza byambaye uturindantoki bifite ikindi kiganza mu ntoki bigiye kubisuzuma bikoresheje agashinge gato, aha bikoreshwa igihe hapimwa indwara zandura n'izitandura.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, gisizwe irangi ry'umweru ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye, kirimo umuganga w'umugabo wambaye agapfukamunwa, impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru, ari gukoresha mikorosikopi iri mu ibara ry'umweru.

Muri laboratwari yo kwa muganga habamo ibikoresho bitandukanye, harimo mikorosikopi zifashishwa mu kureba ibyo amaso yacu atabasha kureba, hakabamo n'ibindi bikoresho biri ku ruhande.

Muri laboratwari ahatangirwamo serivise zitandukanye ariko akenshi hakoreramo abaganga, baba baje gupima ibizamini byaturutse ku barwayi, bakabisuzuma bakababwira icyo barwaye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umuganga wambaye impuzankano igizwe n'imyenda y'umweru, wambaye ga ziri mu ibara ry'uburu, imbere ye hari imeza iri mu ibara ry'umweru, irambitseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima ubwandu bwa sida.

Ibipimo bitangwa n'umurwayi bijyanwa muri raboratwari bigasuzumwa n'abaganga b'inzobere, iyo barangije kubisuzuma bazana ibisubizo bakabwira umurwayi indwara arwaye.

Ikigikoresho cyifashishwa kwa muganga cyitwa mikorosikopi, aha kireba ibitagaragara, ibyo tutabonesha amaso yacu.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku miti ndetse n'indwara zitandukanye, gisize irangi ry'umuhondo ndetse kirimo idirishya ririmo ikirahure kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse kirimo intebe ziririmo ibara ry'umukara, hejuru yazo hari mudasobwa.

Inzu mberabyombi, aho bita muri Arena, hari habereye ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'abana, harimo abantu benshi cyane, baje muri ibi bikorwa.

Ababyeyi batatu, babiri muri bo bafite abana barimo baraza ku kigo nderabuzima ngo bahabwe serivise zijyanye n'ubuzima harimo nko gukingira abana ndetse n'ibindi.

Icyumba kinini gisizwe irange ry'umuhondo kirimo urumuri ndetse kirimo umugore wambaye umupira wicaye wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara ndetse ku bibero bye hari igitabo, iruhande rwe hari abana benshi bicaye ku mukeka.

Abaganga batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye marinete, ishati, itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma yaho hari ibyapa bitandukanye higanjemo ibifite ubuso bw'umweru, byanditsweho n'amagambo ari mu mabara atandukanye.

Abagabo batatu barimo barishimira igikorwa kindashyikirwa bagezeho. Harimo uwambaye umupira w'ubururu ndetse babiri bambaye amakoti.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri b'inshuke gisizwe irange ry'umuhondo, ndetse kirimo abagore bafashe amasahani ariho ibiryo. Imbere yabo hari abanyeshuri b'abana bicaye ku ntebe ziganjemo iziri mu ibara ry'umuhondo, ndetse hagati yabo harimo ameza akozwe mu mbaho.

Abagabo ndetse n'abagore barimo barapima akana uburebure, ngo barebe ko gakura neza, bambaye imipira iri mu ibara rya oranje, bashinzwe imibereho myiza y'abaturage.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu hamwe, harimo abambaye udupira tw'icyatsi ndetse n'abasirikari bambaye inifomu, bose bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'abagabo ndetse n'abagore, hari n'umupolisi w'umugore wambaye inifomu, imbere yabo hicaye akana kakiri gato.

Ahantu hari imbaga nyamwinshi y'abantu hari umugabo upfukamye, wambaye agapira kari mu ibara rya oranje kariho ikirangantengo cya Repubulika y'u Rwanda ari guha amata umwana ndetse inyuma hari umugore uri gufotora wambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umukobwa wambaye umupira w'umweru uri kwandika akoresheje ikaramu, imbere ye hari umugore witeze igitambaro mu mutwe wicaye ndetse uteruye umwana.

Umugabo wicaye mu biro yambaye itaburiya y'umweru ndetse na baji mu ijosi, imbere ye hateritse mudasobwa arimo arayikoresha, iruhande rwe hari akabati k'ibitabo byinshi.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, gisize irangi ry'umuhondo, gifite amadirishya aririmo ibirahuri, kirimo abantu bicaye ku ruziga, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho n'ibyuma, bamwe muri bo inyuma yabo hari ikibaho gifite ubuso buri mu ibara ry'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi. Kirimo abaganga babiri umugabo ndetse n'umugore. Umugore yambaye isaha ku kuboko, baji y'akazi iri mu ibara ry'ubururu ndetse yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru. Ku ruhande hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Umusore uri imbere y'abantu bakuru harimo abakecuru ndetse n'abasaza, arimo arabaganiriza ku birebana n'ubuzima imbere ye hari umubyeyi wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'ikote rijya gusa n'ubururu.

Umuntu ufite ikibazo cy iihungabana, atwarwa mu buryo bwabugenewe. Afitwe n'abagabo batatu, babiri muri bo bambaye amajire ya coroix rouge.

Ikigo cy'urubyiruko cya Kinzuzi cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kiriho ibishushanyo by'abantu batandukanye. Imbere yacyo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze harimo umuzungu w'umugabo, wambaye ipantaro ya kaki, hirya ye hari umugore w'umwirabura wambaye imyenda igizwe n'ikoti ry'umukara, umupira wa orange ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Abambaye imipira y'imyeru hejuru, hasi bambaye imyenda isanzwe. Umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki. Arimo arabaganiriza ababwira, ku birebana n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abagabo ndetse n'abagore, bamwe bambaye imipira iri mu mabara y'icyatsi, umwe wambaye agapira k'umukara ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki, arimo arabaganiriza abereka ibikoresho bitandukanye.

Icyumba kirimo urumuri kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri biganjemo abakobwa, harimo umuhungu wambaye amarinete, ishati y'umweru, isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro ya kaki, yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umweru, hirya yabo hari umusore wunamye wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyanditseho ngo isuzume umenye urugero rw'umuhangayiko wawe unyuze ku rubuga rwacu.

Farumasi cyangwa se Ivuriro rya Nyagatare ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuzima, aha iyo ukeneye imiti urahagera bakayiguha.

Farumasi irimo imiti itandukanye irimo ivura iyo kwisiga ndetse n'iyo kunywa, harimo n'ibinini bigiye bitandukanye bivura indwara z'amoko menshi.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, hashushanyije inka amahembe biragaragara ko ari igikarito kirimo imiti.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ari mu miti arimo araha abarwayi bakeneye imiti ndetse harimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye harimo iyo kwisiga, iyo kunywa ndetse n'iyindi.

Uducupa dutandukanye tw'ibirahuri, turimo imiti cyangwa se inkingo, itegerejwe guhabwa abarwayi cyangwa se amatungo.

Abagabo batatu bambaye amasarubeti ya kaki. Aba undi urimo yambaye umupira w'umutuku, bari muri farumasi ahatangirwa imiti ivura indwara zitandukanye.

Abagabo babiri ndetse n'umugore bari muri farumasi umwe yaje gushaka serivisi zijyanye no gufata imiti undi arimo amusobanurira uko imiti ihagaze.

Abagabo ndetse n'abagore bose bambaye udupira tw'umweru hejuru. Biragaragara ko baje muri serivisi z'ubuzima kwa muganga. Barimo baragirwa inama z'uko bagomba kwirinda kugira ngo bagume kumera neza.

Umubyeyi wambaye amarinete ndetse n'umupira w'umweru. Iruhande rwe hari umukobwa ufite ibisuko by'umukara ndetse wambaye umupira w'umweru. Bombi bafashe icyapa kirimo ubuso bw'umutuku, kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Inyuma yabo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi.

Umupolisi w'umugore wambaye impuzankano y'umukara, ari hagati y'ababyeyi ndetse n'abagabo barimo barasuzuma ibikoresho byo kwa muganga, ariko utuntu ni dukingirizo bafite.

Urubyiruko rurimo ababyeyi ndetse n'abagabo, barimo baraganirizwa ku birebana n'ubuzima harimo abagore ndetse n'abagabo.

Urubyiruko rurimo abasore ndetse n'abakobwa, barimo barahabwa udukingirizo. Ibi birimo birabashishikariza kwirinda ndetse no kurinda ubuzima bwa bagenzi babo.

Umusore ukiri muto, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse na telefone, yambaye ishati iri mu ibara ry'icyatsi, inyuma ye handitse amagambo arimo ibara ry'umweru avuga ngo "serivisi zubuzima zegerejwe abaturage".

Abantu bambaye udupira tw'icyatsi harimo abagabo n'abagore barimo barahereza undi mugabo wambaye itaburiya y'icyatsi y'ubururu n'ishati y'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, afite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo: "Ugakoreshe neza", afite indangururamajwi mu ntoki arimo aratanga ibiganiro birebana n'ubuzima.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo abasore batandukanye umwe muri bo yambaye akagofero k'umweru ndetse imbere yabo hari imeza ikozwe mu mbaho ndetse n'ibyuma, iriho ibikoresho bitandukanye harimo icupa ry'amazi ndetse n'igikombe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ikoboyi imbere ye hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru wanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse yambaye ipantaro y'ikoboyi, iruhande rwe hari umugabo wambaye amarinete.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari umuganga w'umugabo wambaye impuzankano igizwe n'itaburiya riri mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ga ziri mu ibara ry'umweru. Ari gupima umuvuduko w'amaraso umugabo wicaye, wambaye agapira kagizwe n'amabara atandukanye, higanjemo umutuku ndetse n'umweru. Iruhande rwe hari umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe ndetse wicaye kandi ari kwandika akoresheje ikaramu.

Abantu benshi batandukanye bafite amajerekani menshi biragaragara ko baje gushaka amazi, hari umugore wambaye ijire biragaragara ko ariwe uri kubavomera.

Abarimo bakina ikinamico imbere y'abantu barimo baraganira, harimo umugabo wakinnye afite isuka ndetse n'umufuka ku rutugu n'undi wakinnye ashigatiye umwana.

Agasekuru karimo imiti igiye itandukanye ivuye kwahirwa, iyi yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ntabwo ari ngombwa kwivuza ukoresheje ibinini.

Ikimera kitwa umubirizi ni ikimera gakondo kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inzoka ndetse n'izindi ndwara zo mu nda. Umubirizi ugaburirwa n'inyamaswa zo mu rugo.

Umugore mwiza ufite imisatsi miremire wambaye ikanzu irimo uturonko tumanuye tw'umukara ndetse n'umutuku, akenyeye agakandara k'umukara mu nda afite isaha ku kuboko, arimo aracuruza imiti ya gakondo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisize irangi ry'umuhondo, kirimo umuganga w'umugabo wambaye agapfukamunwa, impozankano y'abaganga igizwe n'itabura y'umweru, imbere ye hari udukarito twinshi, turimo imiti itandukanye ndetse n'uducupa turi mu ibara ry'umukara.

Amacupa apfundikijwe imipfundikizo y'umukara harimo ibiti byifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo amazi ndetse biragaragara ko ari umuti.

Abagabo ndetse n'abagore harimo abasore n'inkumi, bari imbere y'ivuriro ryitwa Girubuzima, ahatangirwa serivise zitandukanye zita ku bantu ndetse n'ubuzima bwabo.

Ababyeyi bazanye abana babo, barimo baraganirizwa ku birebana n'imibereho myiza y'abana, hari umuganga bahagaze imbere wambaye itaburiya y'umweru.

Ababyeyi babiri bicaye imbere y'ameza, umwe arimo arabazwa uko ubuzima bwe buhagaze undi yicaye ateze amatwi ibyo bamubaza, umubaza yambaye itaburiya y'umweru.

Ahantu hateraniye imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo ababyeyi. Hari umugabo wambaye ijiri rya UNICEF riri mu ibara ry'ubururu ndetse imbere ye hicaye abagore benshi bafite abana. Inyuma yabo hari umugabo uri gukoresha telefone, wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Umugabo w'umuforomo yambaye itaburiya y'umweru arimo aratanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hahagaze umugore wambaye ibitenge yaje gusa nk'uhabwa serivisi.

Ikigo nderabuzima gisizwe irange ry'ubururu cyanditseho girubuzima, kiriho ibindi bishushanyo by'abantu urabona ko ari umuryango wishimye.

Umugabo wipfutse agatambaro mu mutwe arimo aratera urushinge mu gashashi karimo amazi. hejuru ye hari itara rimurika.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku arimo aritegereza umuganga wambaye uturindantoki. Muganga yambaye n'itaburiya y'umweru arimo aramuganiriza ku buzima bwe.

Gira ubuzima ni inzu itangirwamo ubuvuzi bw'ibanze, aho uhura n'ikibazo mbere y'uko ujya kwa muganga ugacukura kuri aka akavuriro baragufasha.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umunzani ndetse kicawemo n'abaganga bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya y'umweru. Imbere yabo hari imeza nini ikozwe mu mbaho, ndetse ku ruhande hari umugore wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo.

Imiti yabugenewe yifashishwa mu guha amatungo yanditse mu rurimi rw'i icyongereza ngo megaminero sorution ashushanyijeho inka, inkoko ndetse n'intama.

Umugabo urimo araseka, iruhande rwe hari amadarubindi biragaragara ko yifashishwa mu kureba cyane ku bantu bafite ikibazo cyo kutareba neza.